Abantu benshi bicaye bari mu nama, bakaba bicaye mu ntebe ziriho amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, bose bakaba bambaye udupira tw'amaboko magufi tw'ubururu bwijimye, imbere yabo hakaba hari meza iriho ikayi, ikaramu ndetse n'amazi yo kunywa ari mu gacupa.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bakurikiye. Harimo abagabo ndetse n'abagore. Hakaba hari umugabo wicaye imbere ku ntebe y'umukara yambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu na karuvati. Akaba afite indangururamajwi mu ntoki. Imbere ye hari imeza iriho amatelefone ndetse n'dutabo.

Abantu batatu bicaye, imbere yabo hari imeza, hari amazi, ikaramu mudasobwa ndetse n'ikayi. Umwe muri bo uri hagati w'umugabo akaba afite indangururamajwi mu ntoki, hirya hari undi mugabo, ndetse kuruhande rw'iburyo bwe hari umugore wambaye imyenda y'imweru ndetse n'amadarubindi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru, bakaba bicaye mu itente na yo y'umweru, harimo abagabo n'abagore, bicaye ahantu hari ibyatsi ariko hari n'itaka, hirya yabo hari icyapa kinini cy'umweru, hakaba hagati harimo umugore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'akajire k'ubururu, akaba afite indangururamajwi mu ntoki arimo arabagezaho ubutumwa.

Abagabo batatu bambaye amakositimu n'umugore wambaye kositimu n'agashati k'umweru n'umukara mu imbere ufite imisatsi myinshi, yicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo kumeza hateretse amazi.

Abantu benshi bicaye basa nkaho bari mu nama, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe y'umukara, bamwe bafite telefone mu ntoki, abandi bafite amakayi ndetse n'amakaramu, bakaba barimo baragenda bandika ibyo barimo baragenda bumva mu nama.

Urubyiruko rwicaye ahantu hamwe, bambaye imipira y'umuhondo yanditseho urugerero, hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'ikirangantego, bambaye imyenda yo hasi y'umukara n'iy'ubururu.

Abantu bicaye mu nzu, iyo nzu ikaba ifite ibikuta biriho ibishushanyo mbonera by'umujyi wa Kigali, ibikuta bikaba bisa n'umuhondo, abo bantu bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho udutabo ndetse n'amazi yo kunywa.

Umugore wambaye ikanzu isa umuhondo itagira amaboko ufite terefone igendanwa mu ntoki isa umukara n'umweru wambaye isaha n'impeta usize amabara ku nzara y'umweru afite indangururamajwi mu ntoki asize amabara y'umutuku ku munwa afite umusatsi mukeya.

Abantu benshi bakurikiye bakaba bari mu nama, harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, Inyubako barimo ifite inkuta z'umweru, imbere yabo hakaba hari imeza iriho amazi yo kunywa, ikayi, bakaba bafite ikayi n'ikaramu bari kwandika ibyo bumvishe.

Umugabo wambaye kositime akaba afite na karuvati mu ijosi akaba afite indangururamajwi mu ntoki akaba ahagaze arimo arageza abantu ubutumwa inyuma ye hakaba hari igikuta cy'ubururu cyanditseho nyagatare invesitimenti forumu..

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, abantu bahagaze harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abagore bahagaze. Bisa nkaho bavuye mu nama bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bambaye mu ijosi utugozi twerekana ibyo bavuyemo.

Abantu benshi bicaye bari mu nama hakaba harimo abagabo ndetse n'abantu b'igitsina gore bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo bakaba bafite mudasobwa bamwe bafite ikaramu ndetse n'ikayi mu nto ye hakaba hari inzu y'igikuta gisa umuhondo ndetse n'imiryango ifite ibara ry'ikigina bakaba bicaye bari kuganira ndetse bahana ibitekerezo.

Abantu benshi barimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abagore, bakaba bicaye mu nama bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza ndetse zirimo amazi, ibirahure, amakaramu, ibipapuro byo kwandikaho ndetse na mudasobwa, bakaba bateze amatwi kandi bakurikiye.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hakaba hari imeza ziriho za terefone nini, amazi yo kunywa, ibirahure, amakayi ndetse n'amakaramu, bakaba bari mu nama bateze amatwi. Iyo nyubako barimo ifite ibikuta bisa n'umuhondo.

Abantu benshi bari mu cyumba bicaye kandi bakurikiye. Harimo abagabo bambaye ikositimu ndetse n'abagore. Bakaba bagiye bicaye ku ntebe z'umukara bakaba imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umukara ndetse hariho amazi, ibirahure, amakayi n'amakaramu, ndetse bamwe bakaba bafite na telefone mu ntoki barimo baragenda bandika ibyo bumva muri iyo nama.

Abagabo bari imbere y'inzu yubakishije ibirahuri bizwi nka fime, harimo abambaye amakositimu, amakanzu n'utugofero, harimo bambaye amadarubindi bafite amajenda mu ntoki.

Abantu benshi bicaye bateraniye hamwe, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye mu ntebe zisa umutuku, bakaba bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hakaba hari umugabo uri hagati wambaye ipantaro ndetse n'ikoti ry'ikigina uri kubagezaho ubutumwa, inyuma yabo hari amarido asa umweru.

Abantu benshi bicaye mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye bakurikiye, bambaye bose udupira tw'amaboko magufi turi mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari amazi ndetse bamwe bafite na telefoni mu ntoki, bakaba bacecetse bakurikiye uri gutanga ubutumwa, ibikuta by'inzu bikaba bisa umweru, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cya oranje cyangwa umuhondo.

Abantu bicaye bari mu nama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nyubako ifite intebe zi ifite amabara y'ikigina, bakaba bateze amatwi iyo nyubako ifite ibikuta by'umweru ndetse hanze y'iyo nyubako hakaba yateye ibiti.

Abagore n'abagabo bicaye mucyumba gifite igikuta gisa umweru inzugi z'ibirahure amadirishya y'ibirahure ari matara ari kwaka a cyangwa urumuri rw'umuhondo bambaye imyenda y'umuhondo hejuru n'ubururu bivanze n'umugabo wambaye ingofero y'umweru wicaye impande y'umugore ufite imisatsi iboshye.

Abantu benshi bicaye bari mu nama hakaba harimo abasore ndetse n'inkumi, bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku hirya hari amarido y'umweru azengurutse iyo nzu ndetse n'ibyuma bifasha gukonjesha cyangwa gushyushya icyo cyuma, hari umusore wambaye ishati y'umukara uhagaze akaba arimo arabaza, hagati harimo n'umugore urimo urasubiza uwo musore.

Abantu benshi bicaye, harimo abagabo bambaye amakositimu, ndetse n'abagore. Bakaba bicaye kandi bakurikiye, bakaba bafite ikaramu mu ntoki, amazi, ibirahure ndetse n'amakayi barimo barafata ibyo banditse, ibyo abantu bari kuvuga. Hari ibikuta by'umuhondo muri icyo cyumba, hakaba harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Abantu benshi bahagaze hanze, bamwe akaba ari abagabo ndetse n'abagore, abagabo bakaba bambaye amakositimu, ndetse n'abagore bakaba bakenyeye bari hanze ku mapave, inyuma yabo hari inzu ndende ifite ibirahure by'icyatsi, ndetse n'ibyapa by'umweru bigiye byometse ku madirishya, bakaba basa nk'abasoje inama cyangwa umuhuro, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugore wambaye umupira wumutuku ufite imisatsi iboshye wambaye n'amadarubindi. Ari kumwe nabagabo babiri umwe wambaye umupira wumuhondo yambaye ishati yubururu imbere yabo yateretse amacupa yamazi n'icyayi.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Abantu bicaye hakaba harimo abagore babiri, umwe yambaye ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru mu imbere, undi yambaye ikoti ry'umutuku iruhande rwabo hariho umugabo wambaye ishati y'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari imeza y'umutuku, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'indangururamajwi inyuma ya hari icyapa kinini cyanditseho Kigali yacu mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bicaye bateze amatwi hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru hakaba barimo n'abagabo bashinzwe bari mu nzego z'umutekano bambaye impuzankano zabo zisa umukara imbere yabo hari umugore wambaye ipantaro ndetse n'ishati ndende ya oranje akaba afite indangururamajwi arimo arayigezaho abamukurikiye ubutumwa.

Abagabo bane bambaye amakositimu, barimo umuzungu umwe wicaye imbere, harimo n'umugore wambaye ikositimu n'ijipo nawe wicaye imbere, bafite indangururamajwi iruhande rwabo, bicaye imbere y'icyapa cyanditseho kurwanya ibiza.

Umugabo muremure wambaye ikositimu ndetse na karuvati y'icyatsi cyijimye, akaba yambaye n'amarinete, akaba ahagaze imbere hari aho avugira hariho indangururamajwi ndetse aho avugira hakaba hariho amabara y'umweru yanditseho RGB inyuma ye hari icyapa kinini cy'amabara y'icyatsi, akaba arimo arageza ku bamukurikiye ijambo.

Abantu benshi bicaye mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye udupira tw'ubururu bwijimye tw'amaboko magufinya, bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru cyangwa umuhondo, imbere yabo hari amazi, ikaramu ndetse n'ikayi yo kwandikaho ibyo bumvise.

Umugore wambaye ijipo n'ikoti bisa move, ufite imisatsi myinshi, wambaye imiringa k'umatwi no mu ijosi, impandeye hicaye umugabo wambaye isaha y'umukara, ikositimu y'ubururu, karuvati, ishati y'umweru, wambaye n'amadarubindi. Ufite imisatsi mikeya.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda yo gukinana bakaba bameze nk'aho bavuye muri siporo bakaba mu kigero cy'imyaka mito bafite icyapa kinini cy'umweru amagambo yo gukangurira abantu kwirinda virusi itera sida. Imbere hari umupolisi wambaye impuzankano yabo y'umukara akaba afite indangururamajwi ariko bagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bari mu nama bakaba bicaye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hakaba hari imeza ziriho ibitambaro by'umutuku, hakaba hariho amazi ndetse bakaba bafite amakaramu bari kwandika ku mpapuro ibyo bumvishe, iyo nzu barimo ifite inkuta z'umweru, hakaba hari umugabo ubari imbere wambaye ishati ndetse n'ipantaro uri kubagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bicaye bari mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari abicaye imbere bafite imeza ku ruhande ziriho ibyo kunywa nk'amazi ndetse n'imitabayo ndetse n'amakayi, hirya muri icyo cyumba hicagaze umuntu inyuma wambaye ikositimu, icyumba kikaba gifite inkuta z'umuhondo.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umweru, hari mudasobwa iteretse ku meza ariho igitambaro cy'ubururu, umugabo ufite terefone igendanwa mu ntoki ifite umugozi w'umweru, umugore wambaye ikositimu y'umukara ufite imisatsi mike wegeranye n'umugore wambaye ikanzu ifite amabara y'umuhondo n'icyatsi n'umukara wambaye amadarubindi.

Abantu benshi bicaye bateze amatwi akaba ari abantu barimo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsinagore bicaye ku ntebe ziriho udutambaro tw'ubururu bwijimye ndetse n'imbere yabo hari amameza ariho ibitambaro by'ubururu bwijimye hakaba hateretse amakaramu, ibipapuro byo kwandikaho ndetse n'amazi yo kunywa mu gihe ugize ikibazo cy'inyota bakaba bari mu nzu zifite ibikuta by'umuhondo.

Iri ku murongo y'amagorofa asize amarangi y'umweru n'umuhondo asakaje amabati y'umutuku imbere hari igiti kirekire kirimo insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Abantu b'abagabo bicaye hari ameza ari igitambaro cy'umweru cyateretseho amazi ari igikuta gifite irangi ry'umuhondo amanitse icyapa cy'umweru gifite amabara y'ubururu icyatsi n'umutuku ashushanjeho ibintu bitandukanye imbere ya buri wese yateretseho icupa ry'amazi harimo abambaye amadarubindi n'abari guseka.

Abantu bahagaze abandi bicaye hakaba barimo abantu b'igitsina gabo ndetse n'abandi b'igitsina gore abagabo bakaba bambaye amashati ndetse n'udupira n'abagore bakaba bambaye imyenda yabugenewe isa nkaho bakora mu biro, inyuma yabo hakaba hari ibipapuro byamamaza Rwanda olempiki federeshoni akaba ari federasiyo ishinzwe ibintu by'imikino muri rusange hasi hari amakaro y'umweru inkuta z'umweru.

Abagabo benshi ndetse n'abagore bicaye bose bateze amatwi bakaba bicaye mu ntebe zisa ikigina ndetse hirya yabo hari intebe zitarimo abantu bakaba bafite ikaramu ndetse n'amakayi mu ntoki bamwe bakaba bafite na terefone mu ntoki.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu nyubako ifite inkuta z'umuhondo, ndetse no hasi hakaba hasa umuhondo, ku ruhande rwaho hagiye hari utumeza, turiho ibyo kunywa nk'amazi ndetse n'ikirahurire cyo kunyweramo, bafite amakaramu mu ntoki abandi bafite amatelefoni.

Abantu ntu benshi bicaye mu nama hakaba harimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza bakaba bafite amazi, ikaramu n'ikayi ndetse na mudasobwa imbere yabo. Inkuta zakaba zisize amabara y'umuhondo bakaba bicaye kandi bateze amatwi.

Abantu benshi bicaye bari mu nama cyangwa mu kiganiro bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza ziteguyeho ibitambaro nabyo by'umukara, ku meza hakaba hariho indangururamajwi, amazi ndetse n'ikayi, n'ikaramu, imbere hakaba hari abandi bane bicaye bameze nk'aho bari gutanga ikiganiro, abagabo inyuma bambaye imyenda y'umweru bafite ibikoresho bifata amashusho.

Abagabo n'abagore bazengurutse ameza ari'igitambaro cy'umweru na shokora, harimo abagore baboshye imisatsi, abafite imisatsi myinshi, harimo umugabo umwe uhagaze wambaye ikositimu, ishati y'umweru n'amadarubindi, imbere yabo bateretse mudasobwa.

Umugore uhagaze wambaye agakoti k'icyatsi n'ijipo ndetse afite indangururamajwi mu ntoki akaba ahagaze arimo arageza ku bamukurikiye ijambo, inyuma ye hari ibyapa bisa umweru ndetse hakaba hari n'insakazamashusho nini irimo amabara y'umweru ndetse imbere ye hakaba hateretse n'akantu wakaraba, wakaraba mu gihe ugiye gukoranaho kugira ngo utanduza mugenzi wawe umwanda ufite kazwi nka sanitayiza.

Abantu benshi bari mu nama bakaba bicaye harimo abagabo ndetse n'abagore abirabura ndetse n'abazungu bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho mudasobwa, telefoni, ikaye n'ikaramu ndetse n'uducupa turimo amazi bakaba bari mu nzu ifite ibikuta by'umweru ndetse imbere yabo hakaba hari icyapa kinini cy'ubururu kivuga kiriho amagambo ya RRA ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande rwayo hakaba hari agahanda gacamo abanyamaguru, hakaba hari n'inzu irimo amaduka, hanze hakaba hari ibicuruzwa, hakaba hari na moto iparitse ku ruhande, abantu bakaba bari kugendagenda.

Icyapa cy'irembo kitubwira yuko ushobora kubyikorera. Ni uburyo wakoresha murandasi cyangwa ukikorera serivisi z'irembo utiriwe uva mu rugo, bakaba bakwereka ibisabwa ndetse bakubwira ko wagana urubuga rw'irembo ahanditse polisi, intambwe ku ntambwe bagenda bakuyobora uburyo wabikora.

Abantu benshi bamwe bahagaze abandi bicaye, hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu, hakaba harimo umugore umwe wambaye umupira w'icyatsi, imbere yabo hakaba hari ameza y'umukara bakaba abicaye bicaye ku ntebe z'umukara hanze hari ubusitani ndetse n'ibiti byinshi.

Umunara munini cyane ufite amabara y'umweru n'umutuku ukaba ari umunara w'icyuma ukoreshwa mu itumanaho ,ukaba uzengurutswe n'utundi twuma twabuza abantu kuza kuwusagarira hakaba hateye ibyatsi ahantu uri ndetse hateye n'ibiti byinshi n'amapoto asakaza amashanyarazi mu ngo.

Inzu ifite ibikuta by'umweru ndetse n'imiryango y'umweru. Amakaro yo hasi akaba nayo ari umweru. Mo imbere hakaba hicayemo umugabo wambaye ingofero. hari n'amameza menshi ndetse n'intebe zikaba ziriho mudasobwa. Mo imbere ibikuta bikaba bisa ubururu. Hejuru hari icyapa cy'ubururu ndetse cyandikije amagambo y'umweru ngo " Irembo" kikaba ari inzu itanga serivisi z'irembo zose.

Umunara muremure ukozwe mu byuma usize amabara y'ikigina ndetse n'umutuku, ukaba ari umunara ukoreshwa mu itumanaho hakaba hari n'insinga ziri gucaho hasi z'amashanyarazi hegereye n'ibiti byinshi kandi birebire.

Abari mu modoka bamwe bafite mudasobwa abandi bafite terefone zigendanwa harimo uwambaye umupira wa orange, wambaye umupira wicyatsi, wambaye ishati y'umweru, wambaye ishati yumweru na none nundi wambaye umupira wa orange n'umweru ,harimo uwambaye inkweto zifunguye uteruye mudasobwa isa umukara.

Ahantu hanini hasa nkaho hatemerewe guca imodoka, hirya hari amatente afite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Hanze hakaba hari ibicuruzwa bameze nk'aho ayo matente arimo gukorerwamo ubucuruzi. Hirya hari ibiti bijyiye bihateye mu mavase. Hirya y'ayo matente hari inyubako ndende kandi nyinshi.

Abantu bahagaze bafite mudasobwa mu ntoki; imodoka zihagaze aho baparika imodoka; umugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umweru, n'ipantaro y'umukara; umugabo wambaye agapfukamunwa gafite amabara y'ubururu n'umweru bahagaze

Umunara muremure cyane, ukozwe mu byuma, ukaba usize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ukaba uri mu kantu kandi ukaba uzitiye n'ibyuma, bifite amabara y'ikigina, hirya hakaba hamennye umucanga utarakoreshwa, umunara ukaba ari uw'itumanaho, hirya hari n'amapoto agiye acaho insinga z'amashanyarazi.

Abantu benshi bicaye mu ishuri bakaba bicaye ku ntebe imbere y'abo hari mudasobwa, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu ishuri inyuma hakaba hari ikibaho cy'icyatsi ndetse n'inkuta zisa umuhondo, hakaba ari umugore uri kugenda ubafasha abereka ibyo gukora.

Abantu benshi bicaye akaba ari abantu bari mu kigero cy'imyaka mikenya, bakaba basa nkaho ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano z'amakabutura cyangwa amajipo yumukara ndetse hejuru n'amashati y'amaboko magufi y'umweru, bicaye mu ishuri imbere yabo hari mudasobwa.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda w'igitaka. Hirya hari inyubako ndende zubakishije amatafari ariko zikaba zitararangira. Iyo nyubako ikaba ifite amagorofa. Hirya hari ibiti by'amapoto birebire biriho insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro mu ngo. Hakaba hateye n'ibiti hirya yaho.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari ibinyabiziga by'imodoka biri gucamo ndetse n'ibindi biri ku ruhande biparitse, hagati y'iyo mihanda hari akayira k'abanyamaguru, hagati hari ibiti ndetse n'ubusitani buteyemo, hakaba hari amapoto maremare atanga amashanyarazi ndetse anamurikira abantu mu gihe k'ijoro, hirya hari urujya n'uruza rw'abantu barimo baraca mu tuyira tw'abanyamaguru.

Amazu menshi kandi maremare, agiye akurikiranye, akaba agiye arimo ibiti hagati yabo, ndetse hakaba hari n'amapoto maremare akozwe mu byuma, ayo mapoto ariho insinga zigenda zisakaza umuriro w'amashanyarazi, hakaba hitegeye imisozi, kandi muri iyo misozi hari ibiti byinshi, ndetse n'andi mazu yubatse.

Umuhanda ucamo imodoka zigiye zitandukanye hakaba hirya hari akayira k'abanyamaguru, hakaba hari ipoto rirerire ririho insinga zisakaza amashanyarazi mu ngo zitandukanye hari ndetse n'ibiti birebire biteye ku ruhande.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari n'amazu menshi agiye akurikiranye ndetse n'amapoto asakaza amashanyarazi. Hari ibiti biteye hanze mu busitani, hakaba hari n'ibigega bibika amazi y'imvura.

Iyi nzu ni nini, ikaba ifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, hakaba hariho n'ibyapa biranga uwo muhanda, akaba ari icyapa cya magana atandatu mirongo itanu na karindwi kiri mu mabara y'umweru n'umukara, hirya hari agatente gatoya kicayemo umugabo utanga serivisi za MTN mobile money, hakaba ari n'amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya yaho hari utuyira tw'abanyamaguru. Hakaba hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari n'ibipoto birebire bimwe biriho amatara amurikira abantu nijoro n'ibindi bisakaza amashanyarazi. Hakaba hari ubusitani bwiza burimo indabyo n'ibiti birebire.

Igipangu gisa umweru n'ibara ry'ivu, hejuru hariho senyenge, hanze y'igipangu hari itara riboneshereza umuhanda, umunara, n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Umunara muremure ukozwe n'ibyuma ufasheho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu ngo hakaba hari n'ibiti kuruhande bisakaza amashanyarazi hirya hakaba hari amazu maremare ndetse hanze hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti byinsh.

Amazu abiri atuye ku muhanda, ari mu gipangu cyubakije amatafari ahiye. Imbere yaho hari ubusitani ateye n' ibiti by'icyatsi n'ipironi iriho insinga zijyana umuriro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo moto ndetse n'imodoka. Ku rahande hari akayira k'abanyamaguru. Ndetse hirya y'akayira k'abanyamaguru hakaba hari n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi, ndetse akaba anatanga urumuri mu gihe cy'ijoro.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu binjyeri zitandukanye, murabo bantu harimo abagore ndetse n'abagabo n'undi uhagaze imbere yabo atanga ikiganiro mu bwirwaruhame. Inyuma ye hakaba hari ibikoresho by'isakaza mashusho ndetse n'ibindi by'amamaza icyo bari kuvuga.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo ibinyabiziga biri kuza hirya hakaba hari akazu ka Emutiyeni mobayilo mani, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi biteye hirya y'umuhanda, hakaba hari n'amapoto maremare afasheho kamera zicunga umutekano ndetse n'umuvuduko w'imodoka zigenda mu muhanda.

Imodoka ifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo, iparitse imbere y'igipangu gifite ibara risa n'ivu, hari inzu ifite amabati y'umutuku , hamanitse idarapo mu muhanda, imbere y'umukindo, ry'u Rwanda, rifite amabara y'icyatsi, umuhondo, n'ubururu, n'ipirone iriho itara rimurikira abagenda nijoro, n'insinga z'amashanyarazi ziwucaho.

Umuntu w'igitsina gore wambaye igisarubeti cy'ubururu akaba yambaye n'akajiri ndetse n'ingofero mu mutwe. Akaba ari ku ipoto rirerire rifite insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro mu ngo zijye zitandukanye. Akaba afite agakapu kari mu rukenyerero agenda akuramo ibikoresho akoresha ,akaba ameze nk'aho ari umutekinisiye waje gukemura ikibazo runaka kuri iryo poto.

Inzu zubakishije amatafari ya rukarakara, zikaba zidasize amarange, zikaba zigiye zikurikiranye, hari ipoto rirerire rifiteho insinga zigiye zisakaya amashanyarazi mu ngo, hakaba hari n'ibiti hirya ndetse biteye ku musozi.

Amazu menshi agiye akurikiranya akaba afite amabati y'umutuku, hakaba hari n'akayira gato kari hagati y'amazu abantu bacamo .Hirya hari igipangu kinini giparitsemo imodoka y'umweru, hari ipoto rirerire ririho insinga risakaza amashanyarazi hirya ndetse no hakurya hakaba hari umusozi uriho ibiti byinshi ndetse n'amazu.

Umuntu w'igitsina gore wambaye impuzankano y'abakozi bakora ibijyanye n'umuriro. Akaba yambaye impuzankano isa ubururu, ndetse n'ingofero y'umweru. Afite n'ibikoresho mu rukenyerero. Akaba ari hejuru ku ipoto ifite urutsinga rusakaza amashanyarazi. Akaba arimo aragerageza gukemura ikibazo gihari.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'abantu barimo baragenda muri uwo muhanda, hari n'abatwaye amagare, hakaba hari amapoto maremare ariho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, hari n'amapoto maremare amurikira abantu mu gihe cy'ijoro, hirya hitaruye hari amazu maremare akorerwamo ubucuruzi, ndetse hirya ku musozi hakaba hari n'ibiti byinshi biteyeho.

Umuhanda ucamo imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi binyabiziga, ku ruhande hakaba ari akayira k'abanyamaguru kakaba gatangizwa n'akantu gasize amabara y'umweru n'umukara, hepfo y'umuhanda akaba ari amazu menshi agiye akuriki akaba agiyeteyemo ibiti ndetse n'ibyatsi.

inzu nini ifite ibikuta bisize amabara y'umuhondo bikaba ari n'ibikuta by'inyumasize amabara y'umuhondo bifite n'amatafari ahiye, ikaba ari igipangu gifite nimero ya kane. Igipangu kikaba gisa icyatsi, hakaba n'igisahani gikoreshwa mu gufata amashusho ya canal plus cyangwa starTimes, hakaba hari n'andi mazu ku ruhande yayo, ifite amabati y'umutuku.

Inzu nyinshi ziri mu gace kamwe zigiye zikurikiranye, imwe ikaba ifite amabati y'umutuku ndetse n'izindi zikaba zigiye ziyiri iruhande, ikaba ifite igipangu gisa icyatsi, hari n'amapoto maremare ariho amatsinga agenda asakaza umuriro mu ngo zitandukanye, hari n'ibiti bigiye biteye muri izo ngo.

Imodoka ziparitse ku murongo, imbere hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi ipantaro y'umukara uhagaze impande y'ipironi isa umweru hari inzu iriho icyapa kinini mu ibara ry'umweru harimo umusaraba w'umutuku imbere yayo hari ubusitani n'imikindo miremire

Abantu barimo barasohoka mu nyubako iyo nyubako ikaba ifite ibikuta by'umweru ndetse n'ikigina, ikaba ifite n'imiryango yikigina. Hasi hari sima harimo abagore umugore umwe ukenyeye ibitenge bifite amabara y'umuhondo n'umweru akaba ahetse n'umwana n'undi uri inyuma ye ahetse umwana hari n'umusore ubari imbere wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agakoti k'umweru umeze nkaho akora aho ahantu ari muganga.

Amazu agenda agerekeranye akaba asize amabara y'ikigina ndetse imiryango yayo ikaba isa n'u umweru, akaba ari amazu abantu babamo ndetse bakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini ifite amabara y'umutuku ndetse n'imiryango yi'kigina akaba hari abantu bicaye ku ntebe bategereje guhabwa serivisi runaka. Hanze imbere yabo hari ubusitani buteyemo n'ibiti, aho hantu uko bigaragara hameze nk'aho ari kwa muganga.

Umugore uhagaze ku nkengero z'imihanda ufite agapaniye mu ntoki, uri kuri terefone hirya hahagaze abantu, umusekirite, hari n'amazu afite irangi ry'umuhondo, hirya haparitse imodoka harimo na ambiranse itwara abarwayi hakaba hari na bariyeri kugira ngo yinjire aho hantu.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande rwaho hari akayira k'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'amazu, hakaba hari icyapa kinini kivuga ko ahantu ari kwa muganga w'amaso, bakaba bakubwira n'amasaha muganga abonekeraho, ni icyapa cy'umweru, hirya hateye ibiti ndetse hakaba hari n'amazu menshi ari ku ruhande.

Umuhanda w'umukara impande yaho hari icyapa kigaragaza ikigo nderabuzima cya kabgayi amazu yubakishije amatafari ahiye afite amadirishya y'umweru nay'umukara asakaje amabati y'ubururu.

Abantu benshi bicaye ndetse abandi bahagaze hakaba harimo abagabo n'abagore, muri iyo nyubako inkuta zaho zirasa umweru, amakaro akaba asa umweru n'inzugi zisa ikigina. Harimo umugore wambaye imyenda y'umweru hose umeze nk'aho akorera aho hantu ari muganga, hari n'abandi bahagaze hejuru cyangwa iruhande rw'akantu kameze nk'aho babakirira. Iyi nyubako uko bigaragara ni kwa muganga.

Abantu bicaye ku ntebe ndetse harimo abagabo n'abagore, bakaba bari mu nzu ifite ibikuta bisize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, hejuru hakaba hasize amabara y'umweru, bameze nk'aho bari kwa muganga bategereje guhabwa serivisi.

Abantu bicaye bategereje, harimo umugabo ndetse akaba n'umugore ufite igikapu hasi, akaba ahetse n'umwana, yambaye n'igitenge. Bakaba bicaye ku ntebe bategereje guhabwa serivisi. Ahantu bari hafite inkuta zisize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, bikaba bisa nkaho ari kwa muganga.

Ibunyabiziga bitatu biparitse bibiri muri byo bikaba ari umweru n'ikindi cy'umukara hirya no hino hakaba hari abantu hakaba hari umugore wicaye wambaye ibitenge akaba afite ishakoshi ndetse na teremosi hirya hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti abandi bantu benshi bari gusohoka.

Inzu nini y'amagorofa menshi ikaba isize amabara y'umukara n'umweru hakaba hari ibinyabiziga birimo biracaho, hanze hakaba hari ubusitani burebure kandi bunini, bukaba burimo ibiti byinshi.

Inzu yubakishije amatafari ifite umuryango w'ibiti, ku ruhande hariho ubusitani, hirya hari akayira abantu bacamo gatwikiriye ndetse kanasakaye n'amabati, hirya hari andi mazu agiye akurikiranye ndetse n'ubusitani bwinshi.

Abagabo bane harimo babiri bambaye imyenda y'umukara yambarwa n'abapolisi bo mu Rwanda hagati y'abo harimo umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'ingofero y'umweru n'inkweto z'umukara, umeze nk'umunyabyaha ufite uruhu rwirabura bazwi nk'abazungu. Inyuma y'abo hari imodoka ifite amabara y'umweru, ubururu n'amatara y'umutuku n'ubururu impande y'imodoka hahagaze umugabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba hari bamwe bicaye hasi mu busitani bw'ibyatsi ndetse ari n'ibiti hagati yabo birebire, hakaba n'abandi bicaye ku ntebe imbere yabo hari akameza, bakaba bafite amakaramu ndetse n'igipapuro mu ntoki, hari umugore umwe uhagaze ndetse n'umugabo uhagaze hagati y'abo bantu bose.

Abagororwa b'abagabo bambaye imyenda y'amaroze, bambaye n'udupfukamunwa n'umusekirite wambaye imyenda isa kaki n'imodoka z'isa kaki zitwaye abagororwa, handitseho arasiyesi cyangwa se racasa.

Umugabo ufite uruhanga runini utari guseka wambaye karuvati n'ishati y'umweru yambaye ikanzu ifite amabara umutuku, umuhondo n'umukara.

Abantu benshi bicaye mu nzu basa nkaho bari mu rukiko, hari abantu batatu bari imbere, harimo abacamanza babiri cyangwa abunganizi mu by'amategeko bambaye imyenda miremire y'umukara ndetse ifite n'utuntu tw'umweru imbere hano mu ijosi, bambaye udupfukamunwa hagati yabo hari umugabo wambaye...

Abantu benshi bambaye imyenda igiye itandukanye bakaba bicaye bose bateze amatwi. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'iroza ndetse n'akantu mu ijosi, akaba ahagaze, abandi bose bakaba bicaye, inyuma yabo hari inzu yubatse mu matafari ndetse isize n'amarange y'umuhodo.

Abantu benshi bicaye kandi bakurikiye, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, abirabura ndetse n'abazungu bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, hakaba hari n'abandi bagabo babiri barimo barakamera bafite ibikoresho bifata amashusho, hirya hariumugabo wambaye ikositimu ufashe indangururamajwi, hakaba hari abagabo babiri bambaye imyenda y'abacamanza, umwe akaba ari imbere afite idarapo ry'u Rwanda.

Abagabo batatu bambaye amakabutura ndetse n'amashati y'amaboko magufi asa iroza, bakaba bicaye mu ntebe, bakaba basa nkaho baje kuburana mu bucamanza, bakaba ari ingorororwa cyangwa imfungwa, bakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri umwe yambaye amarinete ndetse akaba yambaye n'agashati k'iroza. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ikanzu ndende y'umukara ndetse ifite n'amabara y'umweru. Bakaba bameze nk'abo bari mu rukiko. Uw'iroza ari ushinjwa icyaha cyangwa uregwa, naho uwo wundi wambaye ikanzu y'umukara akaba ameze nkaho amuburanira mu mategeko.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama bambaye amakanzu y'umukara afite udukaravati tw'umweru abagabo bafite imisatsi mike abagore bafite imisatsi myinshi bicaye ku meza afite igitambaro cy'umukara ku ntebe za oranje, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Abagabo batatu bose bafite umusatsi muke, umwe wi'bumoso wambaye amadarubindi imbere ye hari mudasobwa isa umweru, umwe muri bo hagati yambaye ikositimu n'ishati y'umweru uw'iburyo n'uw'ibumoso bambaye amakanzu imyambaro yambarwa n'abacamanza cyangwa se abavoka.

Umugore ufite umusatsi muke wambaye amadarubindi n'impeta ku rutoki, wambaye ishati y'iroze hejuru hirya hari umugabo wambaye imyenda isa kaki mu kaboko k'ibumoso hariho idarapo ry'u Rwanda.

Abagabo benshi bambaye amakabutura ndetse n'amashati y'amaboko magufi ari mu ibara ry'iroza, bakaba bicaye, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, bakaba hirya yabo hari igikoresho gikoreshwa mu kuzimya umuriro.

Abantu bicaye hasi; akaba harimo abana ndetse n'abagore, inyuma ha bakaba hari ibikamyo bibiri birebire kandi binini, imbere yabo hahagaze abagabo babiri bambaye impuzankano bakaba barimo barabaha ubutumwa, hirya hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, bakaba ari abantu bashinzwe umutekano bo mu gice cya porisi, bakaba bambaye impuzankano zabo z'ubururu bwijimye, bakaba bahagaze ku murongo bafite imbunda mu ntoki, ndetse n'amazu hirya yabo menshi agiye akurikiranye ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari ikamyo nini y'umweru, ikaba isa nk'aho yagize ikibazo cy'inkongi y'umuriro, akaba ari abagabo bambaye impuzankano zabugenewe barimo barapuriza amazi menshi kuri iyo modoka, hirya hakaba hari ubusitani ndetse n'umusozi muremure uteyeho ibiti.

Inyubako nini kandi ndende y'amagorofa menshi, ikaba isize amabara y'ikigina ndetse n'umweru. Ku ruhande haparitse imodoka nyinshi zirimo imodoka za polisi ndetse n'izindi zisanzwe. Imodoka za polisi zikaba zisize amabara y'umweru ndetse n'umukara. Abantu ku ruhande barimo baracaho mu kayira k'abanyamaguru. Hakaba hari igiti kirekire kiri iruhande rw'inzu.

Umuhanda munini uri gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanye, hakaba arimo haracamo imodoka ndetse na moto. Kuhande hari utuyira tw'abanyamaguru, aho hari abantu babiri bambaye impuzankano za gipolisi, ndetse n'abandi banyamaguru basanzwe bakaba bari guhita. Hatege ibiti birebire ku ruhande y'umuhanda ndetse hakaba hari n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Kizimyamoto ifite amabara y'umukara n'umutuku iteretsee ku makaro afite ibara ry'umweru yagereye ku gikuta gifite ibara risa nk'ivu, hari ibipapuro bifite ibara ry'umweru yanyandikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari abantu benshi bashungereye, hari imodoka y'igikamyo nini isa umutuku, hakaba havuyemo abagabo babiri bambaye impuzankano, bakaba barimo barazimya umuriro, bakaba barimo gufasha abaturage ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'inkongi y'umuriro, hakaba hari n'amapoto maremare ku ruhande asakaza amashanyarazi.

Icyapa kinini cy'ubururu, cyanditseho Nyamirambo RIB station, kikaba kiri amagambo yanditse mu mabara y'umweru, hariho na nimero ushobora guhamagara z'ubuntu mu gihe ushaka serivisi zigiye zitandukanye, hirya yaho hari ubusitani buteyemo ibiti birebire, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barimo baragacamo, hari n'amazu hirya y'umuhanda maremare, akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'umukara ndetse n'ingofero y'umweru mu mutwe yabugenewe, bakaba barimo barazimya inkongi y'umuriro isa nkaho yari ikomeye, hirya yabo hari ibiti ndetse n'ubusitani buteye buteye, akaba bafite amazi ndetse menshi cyane bari gupiririza kuri ya nkongi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga, ndetse k'uruhande rwaho hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, hari abashinzwe umutekano bakoresha ibizamini by'umuhanda bakaba bambaye impuzangano zabo z'umukara, hakaba hari nabarigukora ibizamini bari mu modoka, ndetse n'amakona akoreshwa mu ibizamini, hirya yaho hari ibiti byinshi.

Abantu benshi bari mu nama bakaba bahagaze bose harimo abagabo benshi bambaye ikositimu z'umukara harimo n'abagore bakaba bambaye neza bari gukoma amashyi imbere yabo hari imeza hari abagabo babiri bahagaze umwe yambaye imyenda y'umukara bose n'undi yambaye ikositimu bari gusuzanya kandi baseka.

Abagabo n'abagore bicaye ku meza bambaye amakositimu bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari amadapo abiri atandukanye harimo irifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, rifite ibara ry'umweru icyatsi n'umuhondo, kuruhande rw'iburyo harimo abambaye amakaruvati, n'umugore wambaye amadarubindi bicaye, hagati yabo abagore bafite imisatsi myinshi imbere yabo hateretse amazi.

Abantu benshi bari hamwe bamwe bakaba bahagaze abandi bicaye, imbere hari abantu batatu barimo abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo uri imbere yambaye imyenda y'umweru hose, uri hagati yambaye ikositimu ndetse uri ku ruhande akaba yambaye imikenyero, bakaba bicaye, inyuma hari abandi bantu bahagaze, iyi nzu ikaba ari nini ifite ibikuta bisa umweru ndetse n'umuhondo, hakaba n'ibishushanyo by'ubuhanga.

Abantu benshi cyane, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bakurikiye umuntu uri imbere w'igitsina gore wambaye ikanzu, akaba ari kugenda abapepera cyangwa abasuhuza, hirya hakaba hari abantu bambaye impuzankano ndetse n'ingofero, bameze nkaho bamucungiye umutekano, aho hantu hazengurutswe n'amazu menshi cyane.

Abantu benshi b'igitsina gore bambaye imikenyero igiye iri mu mabara atandukanye bose bakaba bahagaze barimo barafata ifoto y'urwibutso bakaba bameze nk'abavuye mu nama harimo n'abagabo bambaye ikositimu iyi hirya yabo ikaba bakikijwe n'amazu maremare ndetse n'ibiti byinshi kandi birebire.

Abantu babiri bicaye bambaye udupira tw'umweru ndetse n'ingofero mu mutwe, imbere yabo hakaba hari imeza, bakaba bafite ikaramu mu ntoki ndetse n'igitaba imbere yabo, hakaba hari n'umugabo uri hagati wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba arimo arashyira akantu mu kabogisi, akaba arimo arasa nk'utora, iki kikaba ari icyumba cy'itora gisize gitatse amabara y'umuhondo umweru ndetse akaba ari n'intebe ku ruhande abantu bakicaraho.

Abantu abagore n'abagabo harimo abambaye amashati y'umweru ariho idarapo ry'icyatsi n'umuhondo n'abandi bambaye imipira y'icyatsi ariho amafoto y'umuntu, bigaragara nkaho bari kwamamaza ishyaka runaka.

Abantu benshi cyane baherekeje umugore ,umugore uri imbere yambaye ikanzu ndende y'ubururu, kuruhande rwe hari umugabo wambaye ikositimu ufite ibipapuro mu ntoki ari nawe barimo bararindira umutekano uwo mugore. hari n'abantu benshi cyane bamukurikiye, hirya yabo hari amazu menshi agiye akurikiranye.

Icyumba gifite ibara ry'umukara, amatara ari kwaka atanga urumuri rw'umweru, ririmo abantu batandukanye, abagore n'abagabo, abagabo bambaye amakositimu yambarwa n'abantu bakora mu nzego za leta, harimo umuyobozi w'igihugu Polo Kagame n'umufasha we Janete Kagame.

Abantu benshi batonze umurongo hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hirya hakaba hari inyubako bameze nk'aho bategereje guhabwa serivisi runaka, hirya hakaba hari n'andi mazu hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire, ahantu bari ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Umugore urimo uraseka akaba yambaye amaherena ku matwi ndetse n'umukufi mu ijosi, akaba yambaye umupira muremure w'amaboko maremare w'umweru. Imbere ye hari telefone nini ndetse akaba yicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari imeza. Inyuma ye hari amarido ndetse n'amadarapo y'igihugu.

Abagore babiri n'umugabo bari mu cyumba kimanitseho ibitambaro bifite amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu, ku gikuta hari agasanduku gafite ibara ry'umweru n'umukara hariho igipapuro cy'umweru, umugore umwe wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru n'undi mugore wambaye imyambaro yambarwa n'abisilamu.

Urujya ni uruzan uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Abantu benshi cyane barimo abagabo n'abagore, bakaba bose mu ntoki bafite utudarapo tw'amabara atatu. Umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Twanditseho F P na R. Hakaba hari umugabo uhagaze imbere, hagati yabo wambaye umupira w'umukara. Azamuye amaboko ari kubapepera. Hirya yabo bakaba bazengurutswe n'ibiti binini kandi birebire.

Abantu bane bicaye, harimo abagabo babiri bambaye ikositimu ndetse na karuvati, harimo n'abagore babiri, umwe uri inyuma yambaye umukenyero n'uri imbere yambaye ishati nziza ya orange, imbere yabo hari imeza z'umukara bakaba bafite n'amazi imbere yabo, ibikuta byo mu nzu bikaba bisa ubururu bwerurutse.

Abantu benshi cyane bicaye bari muri stade bakaba bagiye bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari umugabo muremure wambaye ikositimu ndetse na karuvati akaba yambaye n' amarinete. Imbere ye hari aho ahagaze arimo aravugira ndetse n'indangururamajwi ,zimutunze imbere akaba arimo arageza ku bamukurikiye ijambo.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Poul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Abagore n'abagabo bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara hariho imisego ifite ibara ry'umweru n'ivu, ku meza imbere yabo hateretseho amazi igikombe cy'umweru n'imbere ya buri wese hateretse indangururamajwi harimo abambaye amakositimu abagore, bafite imisatsi myinshi n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikaruvati, ipantaro y'umukara.

Abantu benshi cyane bari hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umweru n'umutuku hakaba hari n'umugabo uri mu modoka uhagaze inyuma, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku, agapfukamunwa k'umweru amadarubindi ndetse n'ingofero akaba yazamuwe ugutoki ari gupepera abantu. Uwo muntu akaba agaragiwe n'abantu benshi bambaye impuzankano z'umukara bamucungiye umutekano.

Abantu benshi bari hamwe, hakaba harimo abana bato b'imyaka mikenya abagabo ndetse n'abagore, bakaba barimo barahobera umugabo wambaye ishati namabara y'umweru n'icyatsi ndetse n'ubururu, bakaba bafite utudarapo mu ntoki, hari n'undi mugabo wambaye akaje n'ishati y'ubururu, bisa nk'aho acungiye umutekano uwo mugabo, bose bafite ibyapa biri kwamamaza uwo mugabo.

Umugabo wirabura wambaye ikositimu n'ikaruvati, ishati y'umweru ufite imisatsi mikeya uhagaze imbere y'amadapo afite ibara ry'umuhondo umweru icyatsi n'ububuru.

Abantu benshi cyane bari ahantu hisanzuye, bakaba bose bafite amadarapo afite ibara ry'umutuku, umweru n'uburoro hagati hakaba hari ikinyabiziga gihagazemo umugabo wambaye ishati y'umutuku ndetse n'agapfukamunwa k'umweru n'ingofero y'umukara, akaba azamuye ukuboko kumwe yafunze igipfunsi ku ruhande rwaho hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari gucamo imodoka ndetse n'amamoto, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari nahurura hirya haparitse imodoka zimwe zitari kugenda hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo igikamyo kinini gifite amabara y'umweru, ku ruhande hakaba n'ibindi binyabiziga biparitse bitarimo biragenda, hari akayira k'abanyamaguru karimo karacamo abantu bamwe bikoreye imizigo, abandi barimo baracaho bisanzwe, hirya y'umuhanda hari amazu maremare kandi akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo imodoka ndetse na moto, hirya no hino y'umuhanda hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba hari umuntu wikoreye umufuka, hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo moto idafite umugenzi, hirya yaho hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire biteye muri ubwo busitani akaba ari amapoto maremare asakaza umuriro mu ngo hakaba hari n'amazu maremare y'ubucuruzi ya etaje.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hacamo imodoka nyinshi harimo ibikamyo birebire bitwikiriye na shitingi y'ubururu, hakaba harigucamo n'abamotari bahetse abagenzi hirya yabo hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'amazu maremare hari n'amapoto agiye afiteho amatara amurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo moto hirya hari moto iparitse, ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru dutangizwa n'amabara y'umukara ndetse n'umweru, hepfo y'umuhanda hari amazu abantu baturamo ndetse n'ay'ubucuruzi, hakaba hari n'amapoto maremare agenda asakaza umuriro mu ngo.

Umuhanda muremure ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye hakaba hari gucamo imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange izwi nka bisi ikaba ifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutukuma baracamo n'amagare niryari utuyi t twa'abanyamaguru umunyamaguru akaba ari kugacamo ndetse hari n'ibiti byinshi kandi birebire birire hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo amamodoka ndetse n'amamoto. Kuruhande mu kayira k'abanyamaguru haparitsemo amamoto menshi arimo arashaka abagenzi. Hakaba n'umuhungu usa nkaho avuye kuri moto arimo arishyura wambaye ipantaro y'umweru, inkweto z'umweru ndetse n'ishati y'umukara. Kuruhande rw'akayira k'abanyamaguru hari igiti kirekire ndetse n'ibindi biti bigiye biteyeho. Hari n'amazu maremare akikije umuhanda akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba ntakinyabiziga kiri gucamo hakaba arimo aracamo umugabo ufite igare tete uhetse n'imizigo y'imifuka hirya hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse dukurikirana na ruhurura hakaba hari n'ibiti birebire ndetse n'ubusitani buri hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya hari gucamo igikamyo cy'amabara y'icyatsi ndetse kikaba inyuma ntakintu kirimo ni ukubuvugango ntabwo gifite imizigo, hakaba harimo haracamo na moto hirya no hino y'umuhanda ahari utuyira tw'abanyamaguru dukurikiwe na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari ibikamyo biparitse bitari kugenda ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi kandi birebire.

Abantu benshi bari gutambukaba bakaba bari ahantu haparitse imodoka nyinshi hameze nkaho ari muri gare, hakaba hari gusohoka imodoka nini iri mu mabara y'umweru, ndetse n'umukara n'ubururu, ikaba itwara abantu mu buryo bwa rusange hakaba hateye n'amapoto asakaza amashanyarazi.

Umuhanda w'umukara ari kugendamo abayonzi yoheretse amakesi y'umutuku umukobwa wambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara numupira w'umutuku n'umugabo wambaye ipantarorya k'umweru inkweto z'umukara umupira w'umukara uri kuvugira kuri terefone igendanwa hari amapikipiki abiri aparitse n'amazu asize irangi ry'muhondo.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Ikinyabiziga gifite amapine icumi gihagaze mu muhanda w'umukara gifite ibara ry'umutuku gihetse ibintu bisa umweru hirya y'ikinyabiziga hari ibiti bisa ibara ry'icyatsi inyuma y'icyo kinyabiziga hari amapikipiki hepfo y'aho hari ikinyabiziga gifite ikintu cy'umukara batwaramo imizigo .

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka y'umweru, hakaba hari n'uduhanda tw'abanyamaguru ku ruhande abanyamaguru bakaba bari gucamo, hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi kandi birebire ndetse n'ubusitani biteyemo, hakaba hari na ruhurura hirya y'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibikamyo bibiri, hakaba harimo igikamyo kifite amabara atukura ndetse gipakiyemo umucanga. Inyuma kandi 'n'ikindi gikamyo gifite shitingi y'ubururu, hirya no hino hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo imodoka nyinshi ndetse hakaba harimo hacamo akamodoka k'amapine atatu gatwara imizigo ndetse na moto hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba haparitsemo imodoka n'abanyamaguru baka brimo baraca mu kayira k'abanyamaguru hari n'amazu maremare akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi hari n'amapoto asakaza amashanyarazi ndetse hariho n'amatara amurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo hariho ibinyabiziga bitandukanye n'abantu n'umugabo wambaye inkweto z'umukara ufite agakapu k'umukara anvilope, wambaye umupira wumukara nipantaro ijya gusakaki umusore wambaye inkweto z'umukarasi y'umukara umupira w'umweru ufite umusatsi muke n'imodoka zifite amabara y'umweru n'umukara hari inzu ifite ibara ry'umutuku hejuru.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka y'igikamyo isize amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba harimo haracamo na moto ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru dukikijwe na ruhurura hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire ndetse biri no mu busitani.

Umuhanda munini ugenderamo imodoka zigiye zitandukanye, hakaba hari imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu yanditseho amagambo ya medi ini Rwanda mu mabara y'umweru, hirya hakaba hari abantu ndetse n'abandi bakaba bari kwambuka umuhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo igikamyo kinini gifite amabara y'umweru n'umutuku, hirya y'umuhanda no hakurya y'umuhanda hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru dufatanye na ruhurura zicamo amazi asa nabi cyangwa amazi y'imvura, hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi kandi birebire biri mu busitani.

Ibicuruzwa bigizwe n'amata, amata akomeye kivuguto harimo ari mu makarito, ndetse nari mu bukopo busanzwe ari mu mabido ikivuto gisanzwe, ndetse nandi mata ikivuguto kiba kivanze n'imbuto.

Umuhanda munini ucamo imodoka zigiye zitandukanye hakaba harimo haracamo moto imwe ihetse umuntu indi idahetse umuntu, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hari amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi mu ngo, ku ruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru hari ibyatsi ndetse biteyemo n'ibiti birebire.

Imodoka nini kandi nyinshi zikurikiranye akaba ari imodoka nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zikaba zisizeho amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hariho ibyapa bya banki ya BK zikaba ziparitse aho abagenzi bategera imodoka, hakaba hari abagenzi bari ku ruhande bicaye bategereje yuko batega imodoka harimo abagabo ndetse n'abagore.

Umuhanda w'umukara harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, indi modoka ifite ibara ry'ubururu n'umukara, yanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku n'umweru, harimo kugenda amapikipiki ahetse abantu, asa umutuku n'umweru.

Ahantu imodoka ziparika mu gihe zitegereje gufata abagenzi hazwi mu izina rya gare hakaba harimo imodoka nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange ikaba ari ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru abantu bakaba barimo baracaho bagenda gufata imodoka izindi zikaba zitegereje yuko abagenzi baza zikagenda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini y'igikamyo isa umweru ifite na shitingi inyuma y'ubururu, hakaba hari na moto ziparitse, abantu bakaba karimo bagenda bambukiranya, hirya hakaba hari amazu menshi akorerwamo ubucuruzi ndetse maremare, hakaba n'amapoto asakaza amashanyarazi.

Imodoka nini kandi nyinshi zihagaze aho abantu bategera bisi hazwi nkaho muri gare. Akaba zisize amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Hakaba hariho ibyapa byamamaza banki ya beka. Hakaba hari abantu barimo baragenda baca hagati bagiye kuzitega ngo bajye mu byerekezo bijyiye bitandukanye.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, hakaba harimo haracamo amagare ahetse n'imizigo, ku ruhande rwayo harirutuya tw'abanyamaguru, hakaba hari imodoka ziparitsemo, utwo tuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari amazu y'ubucuruzi harimo na za farumasi ndetse n'izindi nzu hiryaye n'akazu ka kiyosikek ka emutiyeni mubayiro mani hakaba abantu bari gucamo utwo tuyi tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo ikamyo nini ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba ari n'umuyonzi uhetse umuntu, ku ruhande hakaba ari utuyira tw'qbanyamaguru, hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo ikinyabiziga kikamyo gisize amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi hirya y'umuhanda, hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse dufatanye na ruhurura hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange isize amabara y'umweru ndetse n'icyatsi izwi nka twegerane, hirya hakaba hari akayira k'abanyamaguru karimo karacamo abanyamaguru benshi, hakaba hari amatara yaka agaragaza kandi ayobora abantu mu gihe cy'umwijima.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka nini y'igikamyo ihetse cyangwa ipakiyemo amamatora, hakaba harimo haracamo n'akandi kanyamibiziga gato k'amapine atatu gakoreshwa mu kwikorera imizigo ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru hepfo hari ibiti byinshi kandi birebire bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya hakaba harimo haracamo igikamyo kinini gifite amabara y'icyatsi ndetse na moto, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakaba bari gucamo dufatanye kandi na ruhurura hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi kandi birebire bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo imodoka ndetse n'amamoto. Hirya yaho hari amazu akorerwamo umucuruzi, abantu bakaba barimo baragenda genda mu kayira kageneye abanyamaguru kari hirya. Harimo imodoka y'umweru, ndetse n'amamoto atwaye abantu arimo araca mu muhanda rwagati.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange y'umweru. Hirya mu tuyira tw'abanyamaguru, hakaba harimo haracamo abantu ndetse hakaba haparitsemo n'imodoka. Hari amaduka agenda acuruza ibintu bigiye bitandukanye. Hari iduka ririho icyapa kinini kiri mu mabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umukara cyanditseho forutebeti.

Abantu benshi barimo baragenda hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bari kugenda ahantu mu muhanda abandi, mu muhanda w'abanyamaguru ku ruhande rwabo hari inyubako ndende ikaba iriho icyapa cya Makuza pisi puraza, hirya akaba ari utwatsi ndetse n'ibiti binini. Bamwe baricaye abandi bari kugenda.

Icyuma kirekire hakaba hariho icyapa gikoze mu bizeru, hakaba hariho ibizeru bibiri biri mu mabara y'icyatsi ndetse hakaba haciyemo hagati imirongo ibiri icamo icyo cyapa mpande enye zisize amabara y'ubururu, akaba ari icyapa gikoreshwa n'abakoresha ibinyabiziga mu gukoresha umuhanda neza.

Umuhanda w'umukara harimo utumenyetso tw'umweru tugaragaza icyerekezo, icyapa gifite ibara ry'umuhondo, hagati harimo ikimenyetso cy'umukara, kigaragaza ko uwo muhanda uri imbere ugiye gucamo uzenguruka, n'ibiti biteye ku ruhande bifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa cya mushatu zizengufite umuzenguruko z'umutuku numba hagati ya saa umwe harimo akarongo k'umukara gahagaze gatambitse hirya hari urugo rwubakikije ferabeto z'umweru ipoto ziriho n'insinga z'amashanyarazi.

Ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi zigenda zitanga umuriro mu ngo zitandukanye. Hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru cya mpande eshatu, gikoreshwa n'abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru. Hari icyapa cyaka gatanu kigaragaza uwo muhanda ko ari uwa gatanu, hari n'inzu iri ku ruhande isize amabara y'umuriro n'umutuku ikoreramo irembo.

Icyapa cya mpande enye kiri mu mabara y'umweru kikaba kirimo n'amabara y'umukara, hari amagambo yanditseho avuga y'uko utemerewe guparika aho hantu harimo n'agashushanyo k'imodoka kari mu mabara y'umukara, hakaba haciyemo ikizeru ndetse cy'amabara y'umutuku kigaragazako utagomba kuhaca aho hantu imodoka zitemewe guca aho hantu, kikaba ari gikoreshwa mu bakoresha umuhanda.

Icyapa gikoreshwa mu mategeko agenga abatwara ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhandaba. Ikaba ari icyapa k'ibizeru bibiri bisize amabara y'umutuku hagati akaba ari amabara y'umweru. Hakaba harimo akarongo katambitse k'ibara ry'umutuku bivuga yuko ibinyabiziga bitemewe guca aho hantu.

Umuhanda w'umukara ku nkengero zaho hateye ibyatsi n'ibiti, hari icyapa kirimo ibara ry'icyatsi cyerekana icyerekezo uri kujyamo icyo uri buhasange.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'ibabara ry'umutuku, umweru hagati mo hagati no hagati hari ikimenyetso kishashijeje ibara ry'umukara kimanitse ku cyuma, hirya hari ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo imodoka z'ifite amabara y'umweru, amapikipiki kuhande hari igorofa rirerire ,hari n'icyapa kigaragaza imodoka zitambuka n'izihagarara.

Umuhanda uri kugenda imodoka nyinshi n'abantu munsi harimo akayira k'abagenzi, impande hateye ibiti ari n'amapironi ari amatara amurikira abagenzi nijoro hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikijijeho amagambo y'umweru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hariho n'agahanda k'ayamaguru karimo umugore urimo uratambukamo, ku ruhande hari ubusitani burebure burimo ibiti byinshi kandi birebire, hari n'icyapa kirekire cy'icyatsi kigenda kiranga icyerekezo.

Icyapa kinini kiyobora abatwara abakoresha ibinyabiziga bakoresha umuhanda, kikaba ari icyapa cya mpande inye, kikaba kiri mu amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ahagati hari ikintu kimeze nk'icyerekezo kiyobora imodoka aho zica kiri mumabara y'umukara, kikaba gikoreshwa mu amategeko n'amabwiriza agenga batwara ibinyabiziga bakoresha umuhanda rusange.

Icyapa gikoreshwa mu kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza agenga ibinyabiziga, kikaba ari ibizeru bibiri bisize amabara atukura hagati hakaba harimo ibara ry'ubururu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara mo hagati na hagati harimo udufureshi dusa umukara, bigaragara ko ari umuhanda wizenguruka, inyuma hari ibiti by'icyatsi n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya hakaba hari akandi gahanda kajya mu kindi cyerekezo ariko k'ibitaka, hakaba hirya y'umuhanda hari amazu menshi ndetse hakaba hari inzu ifite igipangu cy'umukara ndetse ikaba ari ndende ikaba ifite n'amabati y'umutuku, hari ibiti bigiye biteye ku ruhande rw'umuhanda ndetse n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi.

Amazu menshi kandi agiye yegeranye. Afite amabati y'umutuku. Akaba ri ahantu hanini, hagiye haciyemo uduce; hakaba hateyemo ibyatsi biteyemo n'ibiti byinshi cyane bigeze gukora ishyamba.

Inzu nini iri hirya y'umuhanda ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse n'utwuma dusize amabara y'ikigina, hanze yayo hakaba ari ubusitani buteyemo ibiti birebire ndetse n'indabyo ikaba iherereye i Kanombe.

Inyubako nyinshi zigiye zikurikirana, hakaba harimo inyubako ndende ndetse n'inyubako ngufinya, hakaba hari ibiti bigiye biteye rwagati muri izo nyubako, harimo ibiti bisanzwe ndetse n'urutoki, hakaba hagiye harimo n'utuyira abanyamaguru bacamo.

Ubusitani burebure kandi bunini bukaba burimo amoko menshi y'ibiti birebire ndetse n'indabyo, abantu ku ruhande bakaba bicaye bari kwitegereza ubwo bwiza nyaburanga hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, harimo n'amapoto maremare agenda amurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini, ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye w'amabuye, ku ruhande hakaba hari inzu nini, y'amatafari ahiye, ndetse isize n'amabara y'umweru, hakaba hariho igipangu cya nimero cumi n'imwe, ku ruhande ndetse na mo imbere harimo ibiti birebire ndetse n'ubusitani, hari n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi.

Ubusitani burimo ibiti bigufi n'ibirebire impande yaho hari igipangu cyubakije amatafari ahiye, harimo amazu asakaje amategura afite amadirishya asa umweru hirya hari igorofa rifite amarange asa ubururu bwijimye umutuku n'umuhondo.

Umudugudu ufite amazu yubatse bitandukanye; harimo ufite amabati y'ibara rya oranje, umukara, n'umutuku; harimo amazu ageretse n'amazu atageretse; akikijwe n'ibiti bifite ibata ry'icyatsi; yose afite ibipangu.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya hakaba n'akandi kahanda akagana mu kindi cyerekezo hakaba harimo araracamo imodoka y'umukara, hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru turi ku ruhande ndetse hakaba hari na ruhurura ku ruhande rw'umuhanda hirya y'atubu tw'abanyamaguru hariho inzu ndende zifite ama etage nukuvuga ngo zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa.

Inyubako nini kandi ndende zikaba mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo, ziri ku ruhande yazo haparitse imodoka, akaba ziri kuruhande rw'akayira k'abanyamaguru ndetse zikaba zikikijwe n'umuhanda munini cyane ucamo imodoka, hirya y'umuhanda hateye ibiti ndetse n'ubusitani.

Inzu nyinshi kandi zigiye zikurikiranye, zikaba zifite amabati atukura, hagati hagiye hari ibiti birebire bisanzwe ndetse n'ibiti by'urutoki, hakaba hari n'amapoto maremare afasheho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Remera kwa rando, amazu menshi, atandukanye harimo ageretse afite ibara ry'umweru, harimo amazu magufi asize irangi ry'umutuku, amabati ateye n'ibiti hagati y'ayo mazu.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba nta kayira k'abanyamaguru gahari ukaba ufatanye n'amazu, hakaba hanze y'amazu hariho ibyatsi ndetse n'ibiti, hakaba hirya hari inzu isize amabara y'umweru ifite n'ibirahuri by'umukara, hakaba hateye n'ibiti mu mazu rwagati, ndetse no hanze y'umuhanda.

Nyagatovu, amazu menshi afite amabati ashaje, akikijwe n'imirima irimo insina, ibiti byinshi, n'andi mazu ari hirya cyane, hari n'ipironi iriho insinga zisakaza amashanyarazi.

Inzu nyinshi zigiye zikurikiranya hakaba hari ibiti byinshi biteye hagati y'izo nzu kandi birebire, hirya hari umusozi witaruye uteyeho ibiti hakaba hari n'amazu akirimo arubakwa atararangiza ariho amashitingi y'icyatsi ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi akaba aherereye i Remera.

Amazu menshi agiye akurikiranye akaba hirya y'aho hari ndetse n'uruganda rwanditseho, azamu, hakaba aha hantu haherereye ari Kimironko kwa Nayinzira, hari insinga z'amashanyarazi zigiye zica hejuru zisakaza umuriro mu ngo, ndetse hari n'ibiti byinshi bigiye biri hagati y'ayo mazu.

Inzu nini y'ubucuruzi y'amagorofa menshi. Ikaba isize amabara y'umuhondo, umweru. Ndetse harimo n'ibirahure by'umukara. Hakaba hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo Forza. Hakaba hari ibinyabiziga biri gucaho bifite ibara ry'umweru. Hasi hakaba hakorera Anteropurize Urwibutso. Hakaba hari icyapa cy'icyatsi ndetse n'umuhondo cyanditseho gutyo. No mu yindi miryango hakoreramo izindi bizinezi.

Inzu nini isize amabara y'umweru kandi isakaye, ikaba ifite imiryango isize amabara y'umukara, hanze hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti birebire, hakaba hari n'ipoto riranga aho umuntu yaba ageze hakaba hari ku cyapa cya mirongo itanu n'icyenda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka, hirya hakaba hari amazu, hakaba hari inzu nziza nini ya etaje ifite amabara y'umweru, iyo nzu ikaba ndetse ifite n'amavaze arimo ibiti, hirya hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'umuhondo cyanditseho a na a resitoranti, hakaba hirya hari n'ibiti biteye hirya y'umuhanda ndetse n'uturabyo.

Inzu nini igeretse, ifite ibara ry'umuhondo ndetse ikaba ifite n'ibirahure by'umukara, ikaba ari etaje ndetse ikaba isa nk'inzu abantu bashobora kujyamo bakaka serivisi zigiye zitandukanye, hanze yayo hari ubusitani ndetse no mo imbereri hari ibiti biteyemo kandi harimo n'uturabyo.

Umuhanda w'amabuye ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari amazu menshi akorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Mu muhanda hakaba haparitsemo imodoka ndetse n'amamoto arimo aragenda atambuka, hakaba hari n'ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Inyubako ndende igeretse rimwe ikaba ifite amabara y'umweru n'inzugi z'umukara hanze haparitse imodoka z'umweru ndetse zifite n'andi mabara hakaba hateye ibiti byinshi hagati y'izo nyubako.

Umuhanda munini cyane ugenda mu byerekezo byinshi, ukaba ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'amatara agenda yaka amabara atandukanye, yemerera imodoka zimwe gutambuka izindi guhagarara kugira ngo bidateza impanuka mu muhanda, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba hateyemo n'utwatsi ndetse n'ibiti, hakaba harimo haracamo n'abantu mu tuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto itwaye umuntu, hirya mu kayira k'abanyamaguru abantu bari gucamo ndetse hari n'imodoka nini y'igikamyo y'amabara y'umweru ndetse n'umutuku iparitse, hirya no hino y'umuhanda hari ibiti ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, ha kabama hacamo imodoka ndetse na moto, hagati mu muhanda harimo ubusitani ndetse n'ibiti biteyemo, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani hakaba hari n'amatara maremare agenda amurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo amamoto menshi ndetse n'imodoka y'umukara, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, hepfo no haruguru y'umuhanda hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse no hejuru yawo hari undi muhanda. Hakaba harimo haracamo imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, isize amabara y'umweru n'ubururu ndetse hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, ku ruhande harimo haracamo abanyamaguru. Hirya hateye ibiti byinshi ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande rwawo hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, hirya y'umuhanda hakaba hari amazu, ndetse no hino y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi biteye, kandi hari n'amapoto amurikira abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abagenzi mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haraca imomodoka ndetse n'amamoto ahetse abantu hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakaba bari kugenderamo. Amatara agenda ayobora ibinyabiziga uburyo bihagarara binaza akaba yaka. Hirya y'umuhanda hari amazu maremare kandi menshi ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda ugenda mu byerekezo byinshi, ukaba umuhanda wo hasi ndetse n'umuhanda wo hejuru, abanyamaguru bakaba arimo guca mu tuyira twabo ndetse hagati y'umuhanda hakaba hateyemo n'utwatsi, hirya yaho hari amapoto maremare amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru izwi nk'aho abanyamaguru bambukira hari umugore kuruhande uri kugenda n'icyuma gifasha gucunga umutekano wo mu muhanda kizwi nka sofiya n'amatara ari kwaka yerekana icyerekezo cy'imodoka.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye. Harimo haracamo amamoto menshi ndetse n'imodoka, hari amatara agenda yaka amabara atandukanye yemerera imodoka zimwe guhagarara izindi kugenda, kugira ngo bidateza impanuka. Hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse na pasiparumu hakaba hateye n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye; akaba ari umuhanda w'igitaka. Hirya no hino hakaba hari amazu maremare agiye akikije uwo muhanda; ndetse n'ubusitani buteye ku ruhande burimo ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye ariko w'ibitaka. Hakaba harimo haracamo imodoka y'umukara ndetse n'indi isa umweru, hakaba hari ibipangu biri ku ruhande rwayo ndetse n'amazu, hari n'utwatsi turi ku ruhande y'inzira duteyemo n'ibiti hari n'ibyapa biyobora abantu. Hakaba hari n'abantu bari guca muri uwo muhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo ibinyabiziga byinshi by'imodoka. Hirya no hino y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru. Ndetse hari ibiti n'ubusitani bigiye biteye hagati y'imihanda, ndetse no ku nkengero z'umuhanda. Hari n'amapoto maremare amanitseho amatara amurikira ibinyabiziga mu gihe cy'ijoro.